Dukunde kwihangira imirimo, mu kwihangira imirimo twabona nk'ububaji, ubwubatsi ndetse n'ubukanishi, ubukanishi abantu bakanika ibintu byinshi bitandukanye, birimo nk'amaterefone, amaradiyo, amatereviziyo, amaketo ndetse n'amagazi mu bubaji, tukabona nko kubaza intebe, ameza, ibitanda ndetse n'ibindi n'ibindi.